Ubufatanye bw'ingabo za Leta ndetse n'abaturage, mu kurwanya ibyonnyi bishobora kwibasira imyaka z'abaturage, hifashishijwe ibyuma biteraga umuti.

Umuhinzi ugiye gutera imiti mu myaka ze, agomba kugenda afite umwambaro wabugenewe, akarindamunwa kugira ngo nakoresha icuma cyo gutera umuti, utaza kugira ingaruka ku buzima bwe kandi arinde imyaka ye.

Ku muhinzi wabigize umwuga ntabwo apfa kujya mu murima uko abonye igihe co gutera umuti agomba kuba afite imyambaro yabugenewe n'icyuma kimufasha gutera umuti akirinda indwara zakomoka kuri uwo muti ari gutera.

Umuhinzi uri gutera umuti imyaka,. yambaye isarubeti yo kumurinda kugerwaho n'umuti ari gutera. Ari guteza icuma kimufasha kuwugeza ku bihingwa neza, nta na kimwe kitagezeho umuti ngo kibe carwara.

Ubucuruzi bw'ifumbire bwaje bwunganira abahinzi. Umuhinzi wakoresheje ifumbire areza akabona umusaruro， ucuruza ifumbire ntayitereka hasi，ayishyira ku tumeza duto，dukoze neza， tuyirinde ubukonje.

Umuhinzi w' amasho wabigize umwuga yambaye imyenda ibasha kumurinda ndetse n'inkweto, arakoresha icyuma cya cijambere kugira ngo ayatere umuti ayarindade ibyonnyi byakwangiza umusaruro.

Ifumbire y'imborera yifashishwa n'abahinzi mu guhinga ibihingwa bitandukanye, iva mu bisigazwa ndetse n'imyanda y'amatungo. Iyo fumbire iba ari umwimerere ku buryo umuhinzi aba yizeye umusaruro.

Iterambere ry'ubuhinzi bw'ibigori mu Rwanda rimaze gukwira hose. Umuhinzi wabigize umwuga iyo atera ibiti ibigori arwanyamo ibyonnyi yambara imyambaro yabugenewe, akambara n'agapfukamunwa gatuma adahumeka iyo miti.

Amafi menshi barobye ashyirwa mu gikoresho cyabugenewe, ategereje gutunganwa ubundi ajyanwe ku isoko, abe isoko yo kubona amafaranga n'ubuzima bwiza ku bayahaha bakayarya.

Ibyobo byabugenewe bizwi ku izina ry'ibidamu. Byororerwamo amafi, atunga abanyarwanda ndetse akagemurwa no hanze mu mahanga. Iyo afashwe neza agatanga umusaruro nk'ubundi bworozi bwose.

Amafi ava mu biyaga byo mu Rwanda arinda imirire mibi, kandi agafasha mu kongera ubukungu bw'igihugu cyacu. Abanyamahanga na bo baza kuyagura bitewe n'uko aba ameze neza.

Isambaza ni ibikomoka mu mazi, ziraryoha, zikagira intungamubiri ndetse zikaba ifunguro ryiza ku ngeri zose z'abantu. Ziteguwe neza zijyaho ibirungo nk'ibitunguru n'ibindi.

Ubworozi bw'amafi nabwo mu Rwanda bwateye imbere. Iyo amafi akuwemo mazi, bayatunganyiriza mu bikoresho byabugenewe, akumuka, ku buryo batapfa kubora, bityo abayahaha bagahaha amafi ameze neza.

Igihingwa ca voka ni igihingwa cakwiriye hose mu Rwanda. Kiribwa nk'imbuto, amababi yaco akifashishwa mu buvuzi, kandi kigatanga n'amafaranga aturutse ku musaruro waco.

Mu Rwanda duhinga ku buryo bw'imitabo. Imitabo ni uburyo begeranya itaka bakarikoramo agasozi gatoya, hagati y'umutabo n'undi tuhita mu ndego, ibihingwa bihinzemo byera neza.

Insina ni igihingwa kiboneka hano iwacu mu Rwanda, kivamo umusaruro w'uburyo butandukanye, hari ibitoki biribwa, hari ibisigazwa byabyo bivamo ibyo kurya by'amatungo ndetse n'ibindi.

Ihene ni itungo rigufi ribana n'abantu, ryororoka ku kigero gishimishije ku buryo uryoroye atakwicwa n'ubukene, ritanga ifumbire ndetse kandi ntirikenera umwanya munini wo kororerwamo.

Agasozi ndatwa kagenewe ubuhinzi, ahari imitabo iriho ibyatsi itarahingwa, ibirayi bihinze, ibiti by'indumburabutaka biri hagati mu mirima bitagira ico byangiza ku myaka.

Igihingwa cy'amajeri kitagoye guhinga ni ikinyamisogwe cyerera hejuru y'ubutaka ntikibagarwa ntigishingirirwa kandi kigira umusaruro mwiza ku buryo umuhinzi wagihinze aba yarwanyije inzara.

Ibikenyeri byakomotse ku bigori basaruye babyifashishaga bari gushingirira ibishimbo mu rwego rwo guteza imbere umuryango no kuwushakira ibiwutunga, kugira ngo abagugize bagire ubuzima budashonje.

Ibireti igihingwa kiboneka hano iwacu mu Rwanda. kirakura kikazamuka nk'ibindi byatsi, indabo zaco iyo zinyujijwe mu ruganda zivamo imiti yica udukoko ndetse n'abahinzi babyo bakabona amafaranga.

Mu Rwanda tugira ubwoko bwinshi bw'ibiti ndetse n'ibyatsi. Ibidariya nabyo bigira indabo z'umweru biri mu biti bishobora gutanga imishingiriro, ndetse bikaba byaba n'imiti ku banyarwanda.

Ubutaka buhinzwe neza mu buryo bw'imitabo, ku ruhande hateyeho ibiti mu rwego rwo kurwanya isuri. ibiti imizi yabyo irinda isuri ubutaka ntibube bwatwarwa n'amazi.

Hari ibihingwa bidakenera ubutaka bwinshi kugira ngo bihingwe, nk' isombe wayifashe ukayitera nko ku ruzitiro rwawe, yahaba nk'indabo kandi buri wese wahagera, yabona zisa neza zana kubeshejeho.

Isambu imaze gusarurwamo ibigori. Ibigori bizima byajyanywe mu rugo nk'umusaruro, ibisigazwa bizwi nk'ibigorigori hari ibizaba ifumbire, hari n'ibikokorwa bivemo imishingiriro.

Umuryango gushaka kwirinda inzara gwahinga ibihingwa byose byagufasha nk'amateke, insina, isombe, ibidodoki n'ibindi byose byatuma abagugize baticwa n'inzara.

Amajeri geze neza, gasa neza, kandi gari ku isahane nziza, gatera umuntu wese wifuza kugarya ndetse no kwiyubakira amagara ubushake bwo kurya.

Umuhinzi wabigize umwuga uri kwicira avoka akuraho amashami y'ibisambo, atuma avoka itera neza, bityo akizera umusaruro mwiza kubera ko yayikoreye.

Urukwavu, itungo ryororwa hano iwacu mu Rwanda, ruraribwa, rukabwagura ububwana bwinshi, ku buryo rutanga amafaranga mu buryo bworoshye ku barwoye.

Urusenda igihingwa kitagoye guhinga，gishobora gucururizwa imbere mu gihugu，cyangwa kikaja hanze y'igihugu，kikazanira amafaranga abahinzi，ndetse n'abarurya bakagira ubuzima bwiza.

Inka nziza ibyibushye isa n'iyatanga umukamo mwinshi, yambaye ikirango cy'iherene ry'icatsi bigaragara ko yororewe mu kiraro ahantu hafite isuku, mu rwego rwo kuyirinda uburwayi yakura ku gasozi.

Ibirayi bipakiye mu mifuka yuzuye neza kandi myinshi bigaragara ko byeze neza, bihambije utugozi bitegura kubipakira imodoka zikabijana hirya no hino ku masoko.

Ibigori byinshi byeze neza, bakabimanika mu bwakiraro bwiza, butunganijwe, busakaye, mu rwego rwo kubiririnda kunyagirwa ngo bibe byapfa, umusaruro wangirike abahinzi bahombe.

Imyumbati yeze neza yasaruwe bayishyize mu mufuka munini cyane iri gucuruzwa, imyumbati ibarirwa mu bihingwa ngandurarugo kandi yifitemo ubushobozi bwo kuba igitera imbaragaraga.

Amapera imbuto zera hano iwacu mu Rwanda. Habamo ubwoko hashingiwe ku ibara ryayo ry'imbere. Hari amapera agira ibara ry'umutuku ndetse n'aragira ibara ry'umweru, ariko yose agira uruhu rw'icyatsi kibisi.

Abahinzi b'ibirayi bageze igihe cy'isarura; ibirayi byerera munsi y'ubutaka bikagira uruti ruri hejuru ariko rutari rurerure cyane. Abagore n'abagabo nta n'umwe usiganira kuba umuhinzi w'ibirayi rwose.

Ikibiringanya kibarirwa mu bwoko bw'imboga, kigira intungamubiri nyinshi ku buzima bw'uwa kiriye. Kandi iyo gihinzwe neza nta n'ubwo gitwara ubutaka bwinshi bwo kugihingaho, ahubwo kera cyane.

Impuhu ni ubwoko bw'imbuto cangwa se amatunda bugira uruti rugufi buhingwa cane hano iwacu, nabwo ni isoko y'amafaranga ashobora gufasha umuryango washiritse ubute bakazihinga.

Ingabo ziganjemo abasirikare, zamanutse zegera abaturage bose barafatanya mu gutunganya ubutaka. Ni umuganda bigaragara ko ari igikorwa co guteza imbere Igihugu cacu.

Ibi birarayi byujujwe izi mifuka bibarirwa mu bihingwa ngandurarugo, ubu bagiye kubigemura mu bice by'igihugu cacu nk'i Kigali n'ahandi badakoraga ubuhinzi ngo babone ibibatunga.

Ihuriro ry'abagore bambaye umwenda ubafasha kugira isuku, bari gutoranya imyaka bambaye udupfukamunwa, mu rwego rwo kwirinda uburwayi bakwanduzanya bitewe n'ubuzima bwabo butandukanye.

Idegede ryiza ryahinzwe mu butaka bwiza rifite ibara ry'icyatsi kibisi, ahari umuhondo naho ryari riryamiye, rikize ku ntungamubiri ku buryo kurirya uba wizeye kuri.

Amapera imbuto zera zitagoranye guhinga. Ntaterwa umuti, ntakenera ifumbire. Imbuto zayo ziraryoha. Habamo amoko nk'amapera agira imbuto z'umutuku, ndetse n'agira impeke z'umweru.

Igihingwa cy'imyumbati cyeza neza gitanga umusaruro ushimishije. Umuryango w'umugore n'umugabo bahinze iki gihingwa, bishimiye umusaruro w'imyumbati minini cane kandi myiza ku buryo biteguye kubona amafaranga ndetse n'ibibatungira umuryango.

Isombe igihingwa kiboneka hano iwacu mu Rwanda. Kiri mu bwoko bw'imboga, kigira ibara ry'icyatsi. Iyo cyeze barya amababi no ku masoko kirahaboneka.

Intoryi zeze neza ziba zifite ibara ry'icatsi wanazikata ukabona ko mwo imbere harimo utubuto, kandi ibyo bibarirwa mu bwoko bw'imboga ku buryo kuzirya ntaco bitwara umubiri.

Ibitoki ni ibihingwa ngandurarugo, kugira ngo bive mu giturage bigere ku masoko biba ngombwa ko ba bitwara, bakabiheka ku magare, ndetse no mu modoka zitwara imizigo, ngo bigere ku masoko.

Ubucuruzi bw'imbuto ni ingenzi cane ku banyarwanda. Mu mbuto dusangamo nk'imineke, avoka, ibinyomoro ndetse n'ibindi. Inyanya zo zibarirwa mu bwoko bw'imboga.

Ubuhinzi bw'icayi bufasha mu guteza imbere igihugu cyacu bihereye ku muturage umwe wo hasi, aho n'abagisoromaga babahembaga kandi cyagera no mu mahanga tugahinduka indashyikirwa u Rwanda rukamamara hose.

Guhoheka ni igikorwa abahinzi bakora. Bagafata itaka bakarishyira mu dusashi twitwa uduhoho. Hanyuma muri utwo tuntu tw'uduhoho bagashyiramo ingemwe. Izo ngemwe zishobora kuba iz'avoka cyangwa iz'ibindi bimera.

Ubuhinzi bukozwe kinyamwuga bwubahiriza amategeko. Ubu mu Rwanda ntitugitera imyaka icucitse. Ducukura imyobo tukagenda dutereramo imyaka ikwiye, ku buryo nigera igihe cyo kwera itabyigana ngo umusaruro ube muke.

Ishirahamwe ry'abagore bahuriye mu kazi k'ubuhinzi bambaye ibitenge bisa, bigaragara ko bose bitabiriye gukora imirimo y'amaboko, mu rwego rwo kugira ngo bizamure mu bukungu, barwanye inzara mu miryango yabo.

Umuhinzi w'ibireti ntaganya inzara. Ibireti n'igihingwa cyera nk'indabo, maze indabo zaco z'umweru zikaba ari zo zicishwa mu ruganda zigakurwamo imiti yica udukoko ndetse n'ibindi.

Ibirayi igihingwa kiboneka han'iwacu mu Rwanda cane cane iwacu mu majaruguru. Kibarirwa mu bwoko bw'ibinyabijumba cerera musi y'ubutaka kigira amababi y'icatsi iyo gifumbiwe neza gitanga umusaruro uhagije.

Ubucuruzi bw'imboga n'imbuto bufitiye umumaro, umucuruzi ndetse n'umuturage uza guhaha, mu mboga harimo intoryi, imiteja n'ibindi, mu mbuto harimo indimu n'ibindi.

Imyumbati zihinzwe neza mu butaka bwiza zitanga umusaruro ku buryo umuryango uca ukubiri n'ubukene kandi bakagira imbaraga kuko imyumbati zibarirwa mu biryo by'ibiterambaraga.

Inkoko zororokaga vuba, kandi kuzorora nta n'ubwo bisabaga ahantu hanini. Zigatanga amagi garindaga imirire mibi mu bana, ndetse no mu muryango muri rusange, kandi zigatanga n'amafaranga.

Ubuhinzi bw'amashu ntibureba abantu b'igitsina kimwe abagore n'abagabo bose barabwitabira kandi bose bakabona imboga zitunga abatuye agace bazihingamo bakabona n'amafaranga.

Umuhinzi w'inyanya mu Rwanda akirigitaga amafaranga, nk'abandi bakozi bose. Aho zigemurwa ku masoko hirya no hino, bakazijana bakagarura amafaranga, ubukire n'ubukungu bikabagana rwose.

Umusaruro w'ibigori byinshi, weze neza, umanitswe ku buryo bwa gakondo, ku mitambiko y'ibiti hadasakaye, ibindi bihungurwa, umuhinzi na we akishimira imirimo y'amaboko ye.

Umusaruro w'avoka weze neza ugejejwe mu nganda kugira ngo ubyazwe ibindi bikomoka mu nganda. Abakobwa n'abahungu bose bitabiriye gukora mu nganda ngo bazibyaze umusaruro.

Ubuhinzi bw'ibireti ni ingenzi cane ku bantu bo mu majaruguru, indabo zabyo ni wo musaruro wabyo zicishwa mu ruganda zigakorwamo imiti yica udukoko ndetse n'ibinini ,abahinzi bazo bahorana amafaranga.

Ingurube ni itungo ribana n'abantu. Ryororoka vuba aho rishobora kubwagura ibibwana byinshi. Abaryoroye rikaba ryabahesha amafaranga mu buryo bwihuse.

Isoko ry'ibiribwa ricururizwamo ubwoko bw'imbuto zose ndetse n'imboga zose. Aha ngaha uhageze mu bwoko bw'imboga dusangamo karoti, intoryi, inyanya. Mu mbuto harimo amaronji, ibinyomoro n'izindi mbuto nyinshi.

Avoka urubuto ruryoha ku waruriye. Igira amavuta akenerwa n'umubiri w'umuntu, ndetse ikavanwamo n'imiti ikomoka nko ku kibuto cya yo, igice cy'imbere cya yo.

Ibitoki ni ibiribwa biribwa mu buryo bugiye butandukanye. Ababicuruza bashaka amafaranga kandi bakayabona. isoko ry'ibiribwa ritagira ibitoki byagorana kuribona.

Ubworozi bw'inkoko iyo butitaweho ntabwo butanga umusaruro uhagije. Inkoko zororerwa ku gasozi zitoragura n' imyanda bityo zigapfa ntizitange n'amagi ahagije yatunga umuryango w'uzoroye.

Ubucuruzi rero butangaga amafaranga ntabwo ari ubucuruzi bw'ibintu bihambaye gusa n'ubucuruzi bw'imyaka buciriritse nk'ubucuruzi bw'ibigori ingano amasaka na byo byatunga uwabicuruje bikamurinda bukene.

Umuhinzi w'ibigori ufite isuka wishimiye ko ibigori bye bimeze neza, yarayihingishije atera imbuto nziza ashyiramo ifumbire bityo ategereje umusaruro mwiza uvuye mu bigori bye.

Inzego z'umutekano abasirikare n'abapolisi bifatanyije n'abaturage, mu gikorwa co gushira ifumbire ku myaka, nk'ibigori hagamijwe ubufatanye ndetse no kugira umusaruro mwiza, mu gihugu no kurinda inzara abaturage.

Amatunda afite ibara ry'umukara ni ingenzi cyane mu buzima bwa muntu. Agira umutobe mwiza urushaho gufasha abantu mu mikurire yabo bakagira ubuzima bwiza, kandi ntibagwingire bitewe n'uko bayariye ku kigero gikwiriye.

Ububiko bwiza bugizwe n'udusanduku twabugenewe bw'imboga, n'imbuto, n'ibiribwa by'ubwoko butandukanye. Mu mboga harimo nka karoti, urusenda, inyanya n'ibindi... imbuto harimo indimu, amacungan'ibindi...

Ishyirahamwe ry'abahinzi, abagore n'abagabo bose bafatanyije gushyira ifumbire mu bigori bigeze igihe k'ibagara, ibigori byabo bimeze neza birabyibushye bisa n'ibizatanga umusaruro mwiza.

Umuhinzi wishimiye umusaruro mwiza w'amashu, binyuze mu gukoresha ifumbire nziza cyane ko Igihugu cyacu cyabitwegereje ku buryo bworoshye, bakazanamo na tubura idufasha kubona amafumbire mu buryo bwiza butatugora.

Umuhinzi w'intangarugero w'igihingwa cy'imyumbati, bigaragara ko yeze neza, ayitwaye ku igare, abandi nabo arabasobanurira uburyo ahingamo, kugira ngo na bo babikore, barusheho kubona umusaruro mu buryo bwiza.

Amateke gateraga imbaraga gakanabarwa mu bihingwa ngandurarugo birindaga umuryango ubukene ,bigatuma abawugize bagira imibereho myiza n'imbaraga zo gukorera urugo.

Udusanduku twabugenewe dusarurirwamo imboga, imiteja nayo ibarirwa mu rwego rw'imboga iyo ugeze ku isoko mu kuyihaha usanga ibitse neza ku buryo idashobora gupfa.

Umuhinzi w'ibigori ushaka umusaruro, abyitaho, akabibagara kuva bikiri bito, akabyuhira, akabishiraho ifumbire, akakabitera umuti ku buryo ibyonnyi bitazagira ico bibangamira ku musaruro azabona.

Amapera imbuto nziza, zikundwa ndetse zigira n'amababi avugwaho kuba umuti ku bantu benshi. Amapera ahingwa ku buso buto nko ku nkengero y'umurima.

Imineke ubwoko bw'imbuto budahenze ku isoko kandi bufitiye akamaro imibiri yacu, umuneke ni ingenzi cane n'uwa mirongo itanu uraboneka ku isoko.

Ubuhinzi bw'ibirayi buboneka hano iwacu mu Majaruguru. Iyo bukozwe neza, butanga n'akazi, aho usanga abazaga kubisarura baba barenga umwe, kandi bose bagahembwa, bakabona amafaranga.

Ibitunguru bisaruwe ahantu heza bifitemo amababi meza abyihushye ndetse n'imizi myinshi, byafunzwemo udufungo nk'ibigiye kugurishwa gusa bigaragara ko bivuye mu ifumbire nyinshi, ariyo yatumye bikura neza.

Ibihaza byeze neza bigira umusaruro mwiza. Ibihaza bibamo amoko. Ndetse bigatandukanywa n'amabara bigira. Umuhondo, icatsi kibisi, ndetse byose bigahurira ku kugira intungamubiri ku wabiriya.

Ibigori bigeze igihe cyo guterera ndetse no guheka, umuhinzi wabyo ntabwo aterera iyo, arabitambagira agacungana n'uko nta dusimba twakwangiza umusaruro turi kuzazanamo.

Imisozi myiza, ibyatsi byiza biri mu bikurura ba mukerarugendo bazaga mu gihugu cyacu bakadusigira amafaranga gabanyamahanga gakadufasha mu guteza imbere ibikorwa remezo byacu mu rwanda harimo n'amashuri ndetse n'imihanda.

Ubunyobwa bweze butaratonorwa, utu tujumba turi ku mizi ni two bazatonora bakuremo impeke ari wo musaruro ushobora kujyanwa ku isoko cyangwa ukaribwa ugisarurwa

ibishimbo bibagamo amoko menshi, hari ibishimbo bigira amabara y'umukara, ay'umutuku, ibyitwa ibizungu kandi burya na soya na zo zibarwaga nk'ibishimbo kuko na zo zibarirwa mu binyamisogwe, mu byera hejuru.

Umusaruro w'ubunyobwa bumaze gutunganywa, no gushyirwa mu mifuka yabugenewe, bwitegura kugemurwa ku masoko, cyane ko ari isoko y'amafaranga ku bahinzi. Uyu musaruro uvamo ibyiza byinshi.

Imbuto y'amajeri yeze neza itoranyijwemo ayapfuye ku buryo umuhinzi agiye kuyihinga mu murima yaba yizeye kuzabona umusaruro ku kigero gishimishije kuko yateye imbuto y'indobanure.

Umwembe ikibuto cyawo iyo kijugunywe mu butaka bwiza, kiramera bityo igiti kikaba cyazamuka giturutse ku gisigazwa cyawo, kandi cyanakwera.

Ibigori byanitswe neza mu bwanikiro bwubatswe neza ntaho byahurira n'ubukonje kandi ubukonje mu bigori biteraga kwangirika k'umusaruro ari naco abantu baba bari kwirinda iyo bari kwanika mu bwawanikiro bwiza bwatunganyijwe.

Ingemeri igikoresho cakwifashishwa ushaka gupima imbuto ugiye guhinga nko mu murima, cangwa se umusaruro w'ibinyapeke muri rusange ubishizemo wamenya ingano yabyo bitakugoye.

Ibishimbo ni ibihingwa ngandurarugo, iyo hifashishijwe ibyitwa imishingiriro byeraga neza, abantu bakabona ibibatunga harimo imboga nziza zitwa umushogoro ndetse n'ibishimbo ubwabyo by'impeke.

Abagore bari gutoranya ubunyobwa ku kayungirizo, ubunyobwa bupfuye bari kubushira ku mabakure cyangwa se amasahane batoranyije, kugira ngo hasigare imbuto nziza z'indobanure zitarimo ubupfuye.

Ibishyimbo iyo bihinzwe mu murima birabagarwa, ubutaka bugatunganwa neza hagamijwe kubona umusaruro. Ntibabireka ngo birandarandire hasi barabishingirira bifashishije ibiti byitwa imishingiriro.

Ibigori bimanitse mu buhunikiro bwiza ntabwo byahura n'ubukonje bushobora kubitera indwara, ku buryo umuhinzi yahomba nk'uko kera byagendaga bataramenya uburyo bwiza bwo guhunika imyaka zabo.

Amasaka igihingwa ngandurarugo kitagoye guhinga. Ni ikinyampeke. Kivamo byinshi iyo keze. Nk'amafu akoreshwa mu nganda ndetse no mu ngo z'abaturage.

Igihwagari, igihingwa giterwa mu ubutaka kikazamuka nk'ibindi byose gifite ururabo rwerekeye aho izuba rirasira, umusaruro wacyo ugaturuka mu mbuto zigikomokaho, zivamo amavuta ndetse n'ibindi by'umwimerere.

Abahinzi bahingaga amasaka usibye kugira amafaranga, nta n'aho bahuriraga n'icaka. Igikoma kibarinda imirire mibi, imiryango zabo zirakibona ku buryo rwose usanga ari abantu badafite ikibazo, bafite amagara mazima kandi bakomeye.

Ubuhinzi bwiza bukozwe mu materasi y'indinganire butangaga umusaruro, ku buryo abaturage bose bashobora kugerwaho n'umusaruro gwavuye muri ubwo buhinzi kandi inzara bakayirwanya mu buryo bwiza.

Imbuto nziza y'ubunyobwa imaze gutunganwa bivuze ngo imaze gukurwaho ibishishwa igatoranwamo ubwapfuye ku buryo umuhinzi abuhinga bumeze neza ubundi akitega kubona umusaruro uhagije.

Abahinzi iyo bejeje umusaruro w'ibigori ntabwo baba bakishwe n'inzara. Barabihunguraga bikaba byabahesha amafaranga, cangwa bakaja kubibetesha, bakabonamo ifu bateka batekamo nk'igikoma ndetse bakavugamo n'umutsima.

Ubunyobwa igihingwa ngandura rugo, cyerera munsi y'ubutaka kikaba mu muryango w'ibinyamisogwe. Ikiribwa cyihariye cyane kigira amavuta kikaribwa ari kibisi, ndetse kinakaranze kikanakurwamo n'amafu.

Ibakure, ingemeri byose n'ibikoresho byakwifashishwa mu gupima imyaka birifashishwa mu gupima ibigori by'umuhondo nkuko uwakoresha umunzani nawe yabipima kandi akabona ibiro bye uko abishaka.

Umusaruro w'igihingwa c'igihwagari ceze neza washizwe ku gikoresho cabugenewe utegereje gutunganwa ube wakurwamo nk'amavuta cangwa si usekurwe uribwe nk'ifu.

Umusaruro w'igihwagari: igihingwa kidakunze kuboneka kenenshi hano mu gihugu cacu ariko kivamo ibyiza byinshi nk'amavuta ndetse n'ibindi bishobora gufasha ubuzima bwa buri munsi bw'umuturage.

Ubuhinzi bwa soya mu Rwanda nabwo bumaze kumenyerwa. Soya ni igihingwa kibarirwa mu binyamisogwe, kigira uduheke ari two tuvamo umusaruro wa co, kikagera amababi y'icatsi iyo gikura.

Ibishimbo biraryohaga, ku biryo byose by'abanyarwanda akenshi uzabihasanga, ni ibihingwa ngandurarugo bifasha mu kurinda urugo gukena, ndetse no kubura ubushobozi.

Kugosora ni igikorwa gikorwa hifashishijwe intara, batunganya umusaruro runaka, ibinyampeke byose biragosorwa, hakavamo imyanda hagasigara impeke zimeze neza.

Umuhizi w'ibishyimbo ugeze igihe cy'isarura, yabihuriye ku mbuga ari kubiyoresha ibase kugira ngo abitunganye neza, abibike mu mifuka yabugenewe idatuma bimungwa.

ubunyobwa bweze bugeze igihe c'isarurwa bwaranduwe buracyafite utujumba ku mizi utwo tujumba ni two barakuramo impeke ari wo musaruro ubukomokaho

Ibishyimbo bigomba guterwa byarobanuwe. Imbuto igatunganwa, igakurwamo ibifira, igashyirwa ku ruhande, ku buryo nibayihinga izera igatanga umusaruro mwiza.

Ibigori bya mayizori abantu turabihunguraga kugira ngo tubone uko tuja kubetesha igikoma, tukabona n'ifu twavugamo umutsima. Bityo ntitube twaburara, cangwa ngo tubwirirwe.

Ingemeri, igikombe, ibase, igitebo byose bikoreshwa bapima nkuko dupimisha umunzani, akenshi ingemeri n'igikombe bikoreshwa dupima ibinyampeke.

Ibigori byeze neza, bifite impeke nini ku mahundo manini, bigizwe n'amabara menshi atandukanye nk'umuhondo, umutuku, ndetse n'umweru, bikaba byakurwamo ifu yo kurinda imirire mibi mu muryango.

Imbuto y'ibishyimbo, itoranijwe neza, ngo iterwe mu murima, nta bipfu birimo, kugira ngo hazaboneke umusaruro mwiza kandi ushimishije ku muhinzi uzayihinga, bityo yizamure mu bukungu.

Amasaka yeze neza afite amahundo manini cyane, bitagaragara ko yabonye ubutaka bwiza. Imvura ihagije ndetse akitabwaho bakayabagara ku gihe ibi nibyo bizatuma badahura n'ikibazo cy'inzara.

Ibishyimbo bihinze ku mirongo bigeza igihe cyo gushingirirwa hifashishijwe imigano nk'imishingiriro, bifite urugoyi n'amababi meza, urwo rugoyi nirwo rufata igiti igishyimbo kikazamuka neza.

Imbwa ifatwa nk'inyamaswa ibana n'abantu, nayo ivurwa nk'uko abantu natwe tuvurwa, muganga ufite igipimo ugiye kuyisuzuma maze nayo ubuzima bwayo bukitabwaho.

Ihene nyinshi z'amabara atandukanye nk'umukara, umweru ndetse n'andi ziri kurisha ibyatsi kuko ari byo bizitunga, ihene zirororoka zikagira umumaro umworozi.

Mu bworozi ikiraro ni ingenzi cyane. Ikiraro kigomba kuba cyubatswe mu buryo amatungo arimo abafite umutekano, cyubakishijwe ibiti bikomeye, gisakaye neza kiriho n'isima hasi, mu rwego rwo kurinda amatungo uburwayi.

Ingurube itungo ryororwa n'ingeri zose zikabwagura vuba bigatanga ifumbire, kandi rikabwagura ibibwana byinshi aribyo bishobora gutuma iba isoko y'ubukungu ku bayoroye.

Ubworozi bw'ingurube bukozwe kijambere， zororewe mu kiraro， ingurube n'ibibwana byayo. Zirira hamwe， zigatanga ifumbire hamwe，ku buryo umworozi na we adahomba.

Kororera mu biraro ntacakwigera kibisimbura. Inka nazo ziba zifite umutekano. Zigatanga umukamo neza, inyana zigakura neza ,ndetse n'ubwatsi bakabubona mu buryo butagoye, kandi n'ifumbire bakayikusanya mu buryo bworoshe.

Ingurube nazo zororegwaga mu biraro, umworozi wazo akaba agomba kwiga kuzifata neza, akazigaburira mu biraro yirinda ko zatera zatera uburwayi mu gasozi aho zigenda ndetse n'abamwegereye.

Ingurube itatu zitaweho neza zikimishwa cangwa si zigaterwa intanga zabwagura nyinshi zigatanga ifumbire nyinshi bityo umworozi wazo ndetse n'abaganga bazivura bose bakabona akazi bakiteza imbere.

Imishwi ifashwe neza itanga umusaruro mwiza. Mu bworozi bw'inkoko buteye imbere, imishwi ikiva mu ituragiro, ntabwo iba ikeneye kubana n'inkoko nkuru kugira ngo zitabweho.

Abazungu cyangwa se abanyamahanga ni bo bakunda ubwoko bw'inyamaswa buzwi nk'imbwa, ariko birashoboka byashobokako n'iwacu mu Rwanda imbwa twazikunda cyaneko ari amatungo atagize icyo atwaye, anaturana n'abantu mu buryo bwiza atababangamiye.

Ubuvuzi bw'amatungo bwateye imbere cyane. Inka iri mu kiraro umuganga w'amatungo agiye kuyivuriramo, ku buryo indwara ifite itayikwirakwiza kugaru.

Umukumbi w'ihene nziza zifashwe neza zigaburirwaga neza rwose, zakongera ubukungu bw'umworozi aho buri wese yaja kugurayo icororo bikaba byafasha korora ihene nyinshi mu Rwanda, ntiduhendwe no kubona ifumbire ndetse n'ibindi byose bizikomokagaho.

Inka nziza bigaragara ko yororerwa ahantu heza hafite isuku, iyi nka ifite amabara y'umweru, n'ay'umukara n'uduhembe duto, ni ubwoko bwiza bwatanga umusaruro.

Amagi menshi yakusanyirijwe hamwe yashyizwe mu bikoresho byabugenewe, mu kubika amagi bizwi nk'amatureyi utu tuntu dutuma amagi adakomanaho ngo abe yameneka.

Ubuvuzi bw'amatungo bwitaweho butuma amatungo atanga umusaruro. Ingurube nayo irwaye nk'izindi nkadi matungo yavurwa. Abagore n'abagabo bose babyigiye umurimo wo kuvura amatungo bawukora.

Amagi meza kandi menshi abitse ku buryo butayangiriza, ku buryo uwaza kuyagura ngo ajye kubaka buzima, yayabona mu buryo bwiza kandi ku giciro cyiza.

Imishwi yorowe neza, igafatwa neza, igashakirwa ibyo kurya, igahabwa amazi meza zikanywa, zivamo inkoko nziza zitanga umusaruro, waba uw'amagi cyangwa inyama ku bazikeneye.

Itsinda ry'abagore n'abagabo bishimiye kuba bafite amatungo magufi, nk'ihene zitagoye cyane ko iyo uyishizemo ikiziriko, ugikurura ikagukurikira itagoranye.

Ubworozi bwa kijyambere aho inka zororerwa mu biraro zikagaburirwa ubwatsi bumeze neza, bityo umworozi akabona umusaruro uhagije ndetse n'ifumbire ikaboneka ari nyinshi, kuko ziba zitatembereye hose.

Urukwavu rubarwaga mu nyamaswa z'indyabyats, rubyaraga ibyana byinshi ,rukanavugwaho gushobora kwirukanka cane, ntirwita ngo imvura cangwa izuba rwirira ibyatsi mu gasozi.

Ingurube y'ishamba ni imwe mu nyamaswa zibaga mu Rwanda, ku buryo ugiye nko mu mashyamba yo mu rwanda utayiburamo. Kandi yo ntabwo ibana n'abaturage, ahubwo yibera mu ishyamba aho ibona ibiyituga.

Indabo nziza uretse kuba ziduha umwuka mwiza, aho ziteye hagasa neza. Zihinduka intaho cyangwa se ubuturo bw'inyoni zimwe na zimwe ziboneka mu Gihugu. cyacu bikaba byatuma n'abakerarugendo baza kuzisura.

Ibiti byiza bifashwe neza uretse kuba biduha umwuka mwiza wo guhumeka, binahinduka ubuturo bw'inyamaswa zitandukanye zirimo nk'inyoni, ndetse n'ibindi biremwa bito byibera mu mashamba.

Inuma ni ikiguruka kibarwa mu bwoko bw'inyoni, zishobora kuba mu mashamba ariko zishobora no kororwa zikabana n'abaturage, inuma ntizona kuzorora ntibisaba ahantu hanini ho kuzororera.

Ingwe y'ingore n'icyana cyayo ni inyamaswa zikundana zirya inyama, zivugwaho kumenya kwirukanka cyane, zigira amabara meza arimo umukara n'umweru.

Ingagi inyamaswa ijya kumera nk'umuntu utapfa gusanga ahandi uretse iwacu mu Rwanda mu misozi dutunze nk'ibirunga . Ingore n'ingabo ziba mu miryango zikabyara nk'uko abantu natwe tubyara.

Ibishwi ni ubwoko bw'inyoni buboneka hano iwacu ntaco zitwara. Yaba ku bahinzi cyangwa se abaturage basanzwe kuko zitoragurira mu bigunda, mu buryo busanzwe sigombwa ko zona.